Inama cyangwa se ibindi bikorwa bihuza abantu runaka, byabereye mu nyubako yiganjemo ibara ry'umweru, abaje kuyitabira imbere yabo hakaba hari mudasobwa ndetse n'amacupa y'amazi.

Abantu benshi bahuriye mu nyubako runaka mu nama cyangwa se mu bindi bikorwa byabahurije hamwe bagiye kuganiraho, aho bari mu ngeri zitandukanye abasore ndetse n'abagabo n'abana bakaba imbere yabo hari mudasobwa bari kwifashisha muri iyo nama.

Inama cyangwa se ibindi bikorwa byahurije abantu benshi hamwe, aho harimo abagore ndetse n'abagabo, bakaba bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umweru, inzu barimo ikaba ifite inkuta zijimye.

Ishusho iragaragaza abantu bakora mu kigo runaka bari kwifotoza, harimo abagabo n'abagore ndetse n'abasore n'inkumi. Inyuma yabo hakaba hari inyubako iri ku ibara ry'umweru.

Ishusho iragaragaza abantu bari mucyumba cyangwa se ahantu habereye inama harimo abagabo n'abagore, bafite mudasobwa imbere ndetse n'icupa ry'amazi imbere.

Inama cyangwa se amahugurwa cyangwa se ibindi bintu byahurije ahantu runaka aho, abenshi bari kureba muri mudasobwa imwe, umwe muri bo hari ibyo ari kugenda aberekeraho.

Umubyeyi ari mu bukangurambaga aho yakusanyirije abantu hamwe mu nteko ari kubagira inama mu bikorwa runaka. Akaba yambaye umwenda mu ibara ry'ubururu, afite imisatsi miremire, ikaye mu ntoki.

Inama cyangwa se ibindi bikorwa byahurije abantu benshi hamwe, bakaba imbere yabo hari ineza zirananditseho amazi, zifite ibitambaro bikoze mu ibara ry'ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda.

Abantu benshi bahuriye ahantu hamwe bari mu nama cyangwa se ibindi bikorwa byabahurije hamwe, aho imbere yabo hari mudasobwa ndetse n'amacupa arimo amazi.

Abantu benshi harimo abafite uruhu rwera ndetse n'urwirarabura, aho bose bari mu nzu imwe cyangwa se inyubako runaka, bafite ibintu byateranyirije hamwe, aho imbere yabo harambitse amacupa y'amazi.

Inama cyangwa se ibindi bikorwa byahurije abantu batandukanye hamwe, aho harimo umugabo umwe, abagore babiri ndetse n'undi umwe ku ruhande w'uruhu rwera, imbere yabo hakaba hari telefone ngendanwa ndetse na mudasobwa n'amacupa arimo amazi.

Abantu benshi bahuriye ahantu hamwe, bameze nk'abahuriye mu nama cyangwa se ibindi bikorwa byabahuje hamwe, aho harimo abagabo n'abagore hariho imbere yabo hari amacupa y'amazi ndetse na mudasobwa.

Inama yahuje abaturage ndetse na polisi y'igihugu aho bamwe bicaye mu byatsi abandi bakaba bicaye munsi y'amahema iruhande hakaba hari ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda.

Umugore urri kugezaho abantu ijambo akaba yambaye umwenda utukura, iruhande rwe hakaba hari abitabiriye ibiganiro bye, cyangwa se inama mbere yabo hakaba hari uducupa tw'amazi y'inyange, ndetse iruhande rwe hakaba hari indangururamajwi ifite ibara ry'umukara.

Abantu bari mu nama, imbere habo hari mudasobwa n'amazi, abamama bari kumwe n'abapapa, bakoze uruziga mu nama.

Abantu bahuriye mu nama cyangwa se ibindi bikorwa runaka, aho harimo abagabo n'abagore, imbere yabo hakaba hari mudasobwa ndetse bakaba bicaye ku ntebe zifite ibara ryiganje ry'umukara.

Umugore uri imbere kuri alitari aho afite indangururamajwi akaba afite imisatsi iboshye akaba yambaye imyenda irimo ibara ry'icyatsi ndetse n'umweru yijimye akaba ari ibyo ari kugeza ku bamukurikiye.

Abantu benshi bahuriye ahantu mu nyubako runaka imeze nk'aho habereyemo inama inyubako ikaba yiganjemo intebe zifite ibara ry'umweru imbere yabo hakaba hari indangururamajwi ndetse n'amacupa ajyamo amazi.

Abantu bari hamwe mu bikorwa runaka nk'inama cyangwa se ibindi byabahuje, hakaba harimo abagore ndetse n'abagabo, inyubako bahuriyemo ikaba ifite ibara ry'umweru, imbere yabo hakaba hari icupa ry'amazi.

Abagore batatu imbere yabo hari mudasobwa ndetse n'icupa ry'amazi, inyuma yabo hakaba hari abandi bantu bameze nk'aho bose bahuriye mu nama cyangwa se ibindi bikorwa byabahurije hamwe.

Inama cyangwa se ibindi bikorwa byahurije abantu benshi hamwe, aho harimo uri kugira ibyo asangiza abitabiriye inama, akaba afite indangururamajwi mu ntoki, akaba yambaye imyenda yiganjemo ibara ry'umukara.

Inama cyangwa se ibindi biganiro byahuje abantu, bagahurira mu cyumba gifite inkuta z'umweru, imbere yabo hakaba hari mudasobwa ndetse n'icupa ry'amazi, inyuma hakaba hari ikirango cy'ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda.

Ibikorwa cyangwa se inama yabereye ahantu runaka, yahujije abasore n'inkumi biganjemo urubyiruko, ukaba bambaye imyambaro iri mu mabara atatu, ubururu icyatsi umuhondo.

Inyubako ifite ibara ry'umweru ryiganje iruhande hari indabo ngufiya zifite ibara ry'icyatsi hejuru y'inyubako hari gucaho imiyoboro y'amashanyarazi.

Inyubako cyangwa se icyumba kirimo mudasobwa nyinshi bigaragara nk'aho ibihakorerwa ari ibintu by'ikoranabuhanga, aho hari umugabo uhagaze uri kugenda yerekera abandi bicaye uko bikora cyangwa se bayikoresha ndetse n'abandi bari kugenda bakoresha mudasobwa mu bikorwa bitandukanye.

Ishusho iragaragaza abanyeshuri bari mu ishuri, bambaye impuzankano y'umweru ndetse n'igitaka, bakaba bafite mudasobwa, bakaba bari mu masomo runaka.

Ubusitani bwiganjemo ibara ry'cyatsi, bwegereye ahahurira imiyoboro y'amashanyarazi, i ruhande hari inyubako, igiti kirekire gikijwe n'ibati.

Ishyamba ririmo ibiti birebire n' bigufi, iruhande hakaba hari igiti gishinze, kiriho imiyoboro y'amashanyarazi igiye itambuka mu bice binyuranye.

Ibinyamitende bibiri by'inziga ebyiri biri gutambuka mu muhanda, iruhande rwaho hari umunyamaguru wambaye umupira w'umutuku; uri kuzamuka ndetse n'ingofero, kurundi ruhande hari umunyamaguru uri kumanuka wambaye umwenda wiganjemo ibara ry'umukara ndetse iruhande hakaba hari ubusitani.

Inzu ifite ibara ry'ubururu ndetse n'ibara ry'umutuku ryiganje, iruhande hakaba hateye ibihingwa by'imyumbati bikikijwe mu nkengero n'urubingo, impande hakaba hari igiti kirekire gishinze cy'ipoto, kiriho imiyoboro y'amashanyarazi.

Urukuta rw'inyubako rufite ibara ritukura ruri mu nkengero z'umuhanda rukaba rwegereye insina ndende ndetse n'ubusitani imbere yarwo.

Ibiti birebire by'ibara ry'icyatsi biteye iruhande rw'akayira k'abanyamaguru, hakaba hariho iruhande bariyeri y'ibara ry'umutuku n'umweru ndetse n'imiyoboro y'amashanyarazi.

Umuhanda nyabagendwa, aho iruhande hari abanyamaguru bari gutambuka ndetse n'inyubako iri kubakwa itararangizwa, iruhande hari ibinyabitende by'inziga ebyiri bifite abayobozi bambaye imyenda irimo ibara ritukura bahagaze, imbere yabo hari ikinyabiziga k'inziga enye kiri gutambuka gifite ibara ry'umweru.

Umuyoboro w'amashanyarazi ndetse iruhande munsi yaho hakaba hari undi muyoboro wa interineti, munsi yaho hari ibiti birebire by'ibara ry'icyatsi.

Ishusho iragaragaza ahantu umuriro w'amashanyarazi uhurira akaba ari iruhande rw'inzu ikikijwe n'amabati iruhande hari ibyatsi, inzu ikaba isakajwe ibara ry'umutuku.

Ikinyabiziga cy'inziga enye, gifite ibara ryiganje ry'umweru, iruhande hari imiyoboro y'amashanyarazi kandi hari ibiti birebire by'icyatsi ndetse n'umutaka ufite ibara ry'umuhondo.

Umuhanda nyabagendwa kaburimbo aho ku nkengero zawo ku bice by'ayamaguru hagiye hateye ibiti birebire ndetse n'ibisa by'ibyatsi bigufiya, iruhande hakaba hari ibinyabiziga by'inziga enye bibiri biparitse bifite ibara ryiganje ry'umweru.

Hakaba hano hari ahantu hahurira insinga z'amashanyarazi, insinga zishinzwe gutanga umuriro ziwugeza ku baturage, aho zifashe akaba ari ikibumbano gikoze zimu murisima, insinga zikaba zo zishinzwe gutanga amashanyarazi ku baturage.

Ishusho iragaragaza umuyoboro w'amashanyarazi , akagaragaza ikirere, ikagaragaza inyubako y'umweru , ifite ibara ry'mweru ndetse n'ibara ry'ubururu.

Umuhanda nyabagendwa wa kaburimbo aho ku gice cy'imbere mu nkengero zo ku gice cy'abanyamaguru haparize'ibinyabiziga by'inziganye bibiri, iruhande hakaba hari imiyoboro y'amashanyarazi ndetse n'ubusitani bw'indabo zifite ibara ry'icyatsi n'umutuku, hano hakaba hari inyubako ndende.

Ubusitani burimo ibiti bigufi by'ibara ry'icyatsi bukikijwe n'amazu afite ibara ry'umuhondo n'umweru iruhande hakaba hari abantu bagiye bicaye ku mpande.

Inyubako ifite ibara ry'umweru ndetse n'ubusitani bw'ibyatsi, by'ibara ry'icyatsi bigufi, imbere hakaba hari ibikoresho bikoreshwa bizimya inkongi y'umuriro mu gihe yaba ije, gifite ibara ry'umutuku, ikaba ifite amadirishya y'ibara ry'umukara.

inyubako ndende sakajwe isakaro y'ibara ryijimye; imbere hari ibendera y'igihugu cy'u rwanda; iruhande hari ubusitani burimo indabo ngufi z'ibara ry'icyatsi.

Umuhanda wa kaburimbo, aho wegereye igice kiriho inyubako, ku ruhande hakaba hari ikinyabiziga cy'inziga enye gifite ibara ry'umukara gihagaze, iruhande inyuma hakaba hari ikindi kinyabiziga cy'inziga enye gifite ibara ry'umweru gihagaze, hakaba hari n'ibirango bigiye byerekana ibigo bimwe na bimwe bitandukanye.

Ibinyabiziga by'inziga enye biparitse bisa nkaho aho byagiye ari mu bitaro iruhande hakaba hari ushinzwe gufungura umuryango arikuwufungura hakaba hari inkengero z'inkuta zifite ibara ry'umuhondo.

Ishusho iragaragaza abantu batatu, aho babiri muri bo ari abacamanza, undi umwe ari uregwa, babiri muri bo bambaye imyenda y'umukara n'umweru, umwe muri bo yambaye umwenda w'iroza.

Umugabo wirabura wambaye umwenda ufite ibara ry'umutuku ndetse n'umweru, akaba nta musatsi afite, inyuma ye hakaba hari urukuta rufite ibara ry'umweru ryiganje.

Ishusho iragaragaza abacamanza bane, aho babiri muri bo ari abagabo ndetse abandi babiri muri bo bakaba ari abagore, bakaba bambaye imyenda y'umukara n'umweru.

Abantu bazamuye akaboko k'iburyo, ak'ibumoso bafatishije ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, aho bameze nk'aho bari kurahira ku nshingano nshya bahawe.

Abacamanza bambaye amakanzu y'umutuku arimo ibara ry'umweru, ndetse n'ingofero z'imikara zirimo ibara ry'umuhondo ndetse n'amasuku, bakaba bahuriye mu nama runaka.

Abagororwa benshi bahuriye ahantu hamwe, bamwe baricaye abandi barahagaze, inyuma yabo hari uruzitiro rurerure, bakaba bambaye imyenda y'iroza.

Umugabo wambaye, imyenda irimo ibara ryiganje ry'umutuku. Akaba yogoshe nta umusatsi afite inyuma ye, hakaba hari, ibara risa umweru. Akaba ari umucamanza.

Umugabo w'umucamanza wambaye ikanzu itukura n'ingofero y'umukara irimo ibara ry'umuhondo, inyuma ye hari ibirango by'ibigo runaka higanjemo ibara ry'icyatsi.

Abantu bane aho babiri muri bo ari abagabo, abandi babiri hari abagore, bakaba bambaye amakanzu y'imikara arimo ibara ry'umweru.

Umugabo wicaye mu ntebe akaba yambaye impuzankano ya gisirikare inyuma ye hakaba hari urukuta rufite ibara ryiganje isa ubururu ndetse n'akabati gakozwe mu biti iruhande rwe'ikirahure imbere kirimo amazi cyangwa se ibindi ari maranywa.

Abagabo batatu bambaye imyenda y'umukara n'umweru, aho umwe muri bo ari kuburana cyangwa se kuburanishwa, abandi babiri bakaba ari abacamanza, imbere yabo hakaba hari mudasobwa.

Umugororwa ugiye kuburanishwa wambaye imyenda y'iroza yambaye agapfukamunwa k'ibara ry'umweru afite igitabo cy'ubururu mu ntoki iruhande rwe akikijwe ibikoresho bikoze mu biti ndetse na mudasobwa.

Perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame, aho ari hagati y'abacamanza ndetse n'abandi bamugaragiye inyuma, inyuma yabo hakaba hari ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ikirango cy'igihugu cy'u Rwanda.

Ahaburanishirizwa aho hari umugabo uburana, cyangwa se ushinjwa wambaye imyenda ifite ibara ry'iroza iruhande rwe hakaba hari abamushinjura nabo bambaye imyenda y'ibara ry'umukara imbere hakaba hari abacamanza.

Ndi kubona umupolisi ahagaze mu nsisiro z'umuhanda ku gice cy'abanyamaguru, hari abantu bari gutambuka abandi bambaye umupira w'umutuku yambaye amapantaro afite n'igikapu atwaramo gikozwe mu rupapuro.

Umupolisi uri ku kinyamitende cy'inziga ebyiri, yambaye umwenda wo hejuru ufite ibara ry'icyatsi, iruhande rwe hahagaritse ikinyabiziga cy'inziga enye gifite ibara ryiganje ry'umweru.

Abapolisi b'igihugu cy'u Rwanda, aho hose bari ku murongo, bakaba bafite imbunda mu ntoki ndetse n'ibendera ry'idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda ku ntugu, inyuma yabo hakaba hari inyubako.

Umupolisi w'Igihugu cy'u Rwanda uri gutambuka, iruhande hari umugenzi bari kumwe mu gice cy'abanyamaguru, iruhande rwaho hari ikinyamitende cy'inziga ebyiri, kiri gutambuka ndetse n'ubusitani hagati bw'ibiti birebire by'imikindo.

Abagabo bambaye imyenda ifite ibara ry'umukara iciyemo imirongo ifite ibara ry'icyatsi, inyuma yabo hakaba hari ikinyabiziga cy'inziga enye gifite ibara ry'umutuku aho baje kuzimya inkongi y'umuriro.

Umupolisi w' igihugu cy'u Rwanda, ari mu muhanda aho ari kuyobora ibinyabiziga bitandukanye ndetse n'abanyamaguru gukoresha umuhanda kugira ngo birinde inkumyi iruhande rwe hakaba hari ikinyabiziga cy'ibara ry'umweru cy'inziga enye ndetse n'ikinyamitende cy'inziga ebyiri.

Hano haragaragara umugore witwa Agatha Uwiringiyimana, akaba yari ari mu baturage, akaba yazamuye amaboko, yambaye umwenda w'ibara ry'ubururu bwererutse.

Ikirangantego cy'ishyaka rya FPR inkotanyi, kirimo intare, izuba ndetse n'imisozi, rifite ibara ry'icyatsi, hakaba handitsemo demokarasi, ubumwe, amajyambere.

Ishusho iragaragaza ababyeyi bane b'abagore, begereye ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda aho inyuma yaho hari ifoto y'umukuru w'igihugu Paul Kagame.

Abantu benshi bahuriye ahantu hamwe mu bikorwa runaka byo gushyigikira abayobozi, bakaba bambaye imyenda yiganjemo ibara ry'ubururu, umweru usa n'umutuku.

Inzu ihuriyemo abantu bagiye kuganira ku bintu runaka cyange se akaba ari inama, aho imbere yaho agiye harambitse mudasobwa, ndetse hakaba harimo intebe ziganje zifite ibara ry'umukara.

Abantu benshi bahuriye ahantu hamwe, hakaba hari umuyobozi cyangwa se umukandida runaka, uri gutambuka, inyuma ye hakaba hari abasirikari bambaye ingofero zitukura.

Abantu bari mu bihe by'amatora aho kugaragara ishyaka ryaFPR rifite umunyamuryango wa Paul Kagame aho ari mu matora yo mu bihumbi bibiri makumyabiri na kane, ikirango cyiganjemo amabara y'umutuku, umweru ndetse n'ubururu.

Abantu bahuriye mu nama cyangwa se ibindi bikorwa runaka, aho harimo abagabo ndetse n'abagore, imbere yabo hakaba hari mudasobwa ndetse n'indangururamajwi n'amacupa arimo amazi.

Inama cyangwa se ibindi bikorwa byahuje abantu runaka, mu nyubako ifite ibara riganje ry'umweru, imbere yabo hari mudasobwa ndetse n'icupa ririmo amazi, inyuma yabo hari ibendera n'ibirango by'igihugu cy'u Rwanda.

Ishusho iragaragaza umukuru w'igihugu cy'u Rwanda perezida wa repubulika Paul Kagame aho bari bari mu gikorwa cy'amatora imbere ye hari agasanduku kajyamo ibyo watoye akaba agahagaze iruhande agiye gushyiramo uko we yatoye.

Perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame aho yicaranye n'umugore we iruhande hakaba hari abandi bantu bitabiriye inama cyangwa se ibindi bikorwa byabahurije hamwe aho imbere yabo hari amacupa y'amazi ndetse n'indangururamajwi.

Abantu batanu, bane muri bo bakaba ari abagore iruhande hari umugabo bahuriye mu nyubako runaka bakaganira cyangwa ibindi bikorwa inyuma yaho hakaba hari ibirango by'igihugu cy'u Rwanda.

Abantu benshi bari k'umirongo igororotse, bigaragara ko bahamagariwe kwitabira igikorwa runaka, aho harimo abagabo n'abagore, inyuma yabo hakaba hari ibiti birebire by'icyatsi.

Abantu bahuriye mu bikorwa runaka ariko bifasha igihugu, bakaba bose bazamuye ikiganza cy'ibumoso ndetse ik'iburyo kikaba gifashe ku ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, bameze nkaho bari guhabwa inshingano runaka.

Perezida Paul Kagame ari kurahira ku nshingano nshya ahawe, iruhande hari umucamanza urikumurahiza, ku rundi ruhande hakaba hari umugore we, akaba ari kurahira afashe ku ibendera ry'u Rwanda.

Inama cyangwa se ibindi bikorwa byahurije abantu benshi hamwe, aho imbere yabo hari ibirangururamajwi ndetse n'amacupa y'amazi, ndetse n'impapuro zirihoho hari kugenda handikwa ibikorerwa aho ngaho.

gare cg se ahandi haparika ibinyabiziga bitwara abantu n'ibintu aho hari ikinyabiziga gitwara abantu gifite ibara ryiganje ry'ubururu umukara ndetse n'umweru.

Ikinyabiziga cy'inziga eshatu, gifite ibara ry'ubururu ryiganje, giparitse ku nkengero z'umuhanda, ahegereye ku nzira icamo amazi, aho inyuma yacyo hari ikindi kinyabiziga gifite ibara ry'icyatsi.

Ikinyabiziga cy'inziga enye, ku mpande zacyo hari ikinyamitende cy'inziga ebyiri, iruhande ku masangano y'umuhanda hari umugenzi, ikinyabiziga gifite ibara ritukura

Ikinyabiziga cy'inziga eshatu, gifite ibara ryiganje ry'ubururu, ikindi gifite ibara ryiganje ry'umukara, iruhande hakaba hari abanyamaguru, hakaba hari n'imuri ziri kubamurikira mu masaha y'umugoroba.

Umuhanda urimo ikinyamitende cy'inziga ebyiri gifite umuyobozi wambaye umwenda uri mu ibara ry'umuhondo n'ubururu, iruhande rwe hakaba hari ikinyabiziga cy'inziga enye gifite ibara ry'umukara ryiganje ndetse n'abanyamaguru bari gutambuka.

Ibinyamitende by'inziga eshatu zifite ibara ry'ubururu bikaba biparitse iruhande rw'akayira k'abanyamaguru, hakaba hari abagabo ku ruhande.

Ikinyabiziga k'inziga enye, kiri mu muhanda kikaba gifite ibara ryiganje ry'umweru, imbere yacyo hari ikinyamitende cy'inziga ebyiri, i ruhande hari ibiti birebire ndetse n'ibindi binyabiziga biparitse ku ruhande.

Ishusho iragaragaza ikinyabiziga cy'inziga ebyiri, aho gitwaye umugenzi, bakaba bari mu muhanda, iruhande rwabo hakaba hari ibiti birebire, ndetse n'ibyatsi by'ibara ry'icyatsi.

Ahantu hahurira cyangwa se haba hari imodoka nyinshi zitwara abantu n'ibintu, imbere hakaba hari ikinyabiziga cy'inziganye cyiganje cy'ibara ry'ubururu ndetse n'ibindi bibiri byiganje bifite ibara ry'umweru, iruhande hakaba hari abantu bari gutambuka.

Ikinyabutende cy'inziga ebyiri, gifite umuyobozi wambaye umupira w'umweru n'ikweto z'umweru, iruhande hakaba hari ishyamba ry'ibiti birebire.

umuhanda ku gice'buya hari n'ikinyabiziga cy'inziga ebyiri dufite umuyobozi yambaye ibara ryiganje ry'hondo iruhande rw'abari inyubako ndetse n'ubusitani ifite ibiti birebire ku gice cyegereye abanyamaguru Umuhanda ku gice kimwe hari n'ikinyabiziga cy'inziga ebyiri, dufite umuyobozi yambaye ibara ryiganje umuhondo, iruhande rwabo hari inyubako ndetse n'ubusitani ifite ibiti birebire ku gice cyegereye abanyamaguru.

Ikinyabiziga gifite ibara ryiganje ry'umuhondo, umukara ndetse n'umweru, aho hari igare riri gutambuka ku ruhande ndetse kikaba mu nkengero hari ibiti birebire by'icyatsi.

Ikinyamitende cy'inziga enye kiri gutambuka mu muhanda wa kaburimbo gifite ibara ry'umweru imbere n'ubururu inyuma kikaba gifite inziga ziganjemo ibara ry'umukara iruhande akaba hateye ibiti birebire mu nkengero z'umuhanda.

Imodoka iparitse muri gare iruhande rwayo hakaba ari abaturage kareba ikigo gitwara abantu n'ibintu gitwa jari kaba isa ubururu.

Ifoto y'ibinyabitende by'inziga ebyiri ziparitse iruhande rw'ikigo gitanga serivisi z'itumanaho aho abahagaze bambaye imyenda yiganjemo ibara ry'umuhondo ndetse n'ibara ry'ubururu.

Ishusho hano iragaragaza, ikinyabiziga cy'inziga zirenze enye, iruhande rw'aho hari ikinyamitende cy'inziga ebyiri, gihetse n'umuntu, iruhande hakaba hari inyubako, ibikorwa by'ubucuruzi.

Umuhanda urimo ikinyamitende cy'insigaye ebyiri kiri kugenda, gifite umuyobozi wambaye mwenda hejuru wiganjemo ibara ry'umuhondo, iruhande rwe hakaba hari abanyamaguru bari gutambuka, imbere ye hakaba hari ikinkinyabiziga cy'inziga eye gifite ibara ry'umukara kiri guhita.

Iragaragaza ikinyamitende cy'amapine atatu. Akaba ari ibinyabitende bibiri bisakaye hejuru bisa ubururu bigaragara ko bikorerwa mu Rwanda, bikaba biri mu muhanda bigenda.

Ikinyabiziga cy'inziga enye, kiri aho ibindi binyabiziga biparika bitwara abantu ndetse n'ibintu, kikaba gifite ibara ryiganje ry'ubururu, iruhande rwacyo ku gice cy'inyuma hakaba hari ikindi ikinyabiziga gifite ibara ry'umweru haciyemo imirongo y'icyatsi n'abantu bahagaze ku ruhande.

Ikinyamidende ki inzigo eshatu, iruhande rwacyo hari igare n'ikindi kinyabiziga cy'inzige enye gifite ibara ritukura, hari umunyamaguru ndetse n'ubusitani bw'ibiti birebire.

Ikinyabiziga k'inziga enye gifitebara ryiganje ry'umweru n'inziga z'umukara, giparitse ahantu runaka, iruhande hakaba hari umunyamaguru uri gutambuka, wambaye mu umupira w'ibara ry'umukara uhetse igikapu cyirabura.

Ikinyamidende cy'inziga ebyiri gihetse umufuka iruhande hari ikinyabiziga cy'iziga enye cyiganjemo ibara ry'umweru, kuruhande hari ubusitani bw'ibiti birebire by'icyatsi

Umuhanda urimo ibinyamitende by'inziga ebyiri bitatu, bifite abayobozi, bambaye imyenda irimo ibara ry'umuhondo, iruhande rwabo hakaba hari ubusitani ndetse n'inyubako irimo ibiti birebire by'icyatsi.

Ikinyabiziga cy'inziga zirenze enye kiri gutambuka, aho imbere hari ibara ryerurutse iruhande hakaba hari uruzitiro ndetse n'ibiti birebire mu nkengero z'umuhanda.

Ikinyabiziga cy'inziga enye gishinzwe gutwara ibindi binyabiziga byangiritse cyangwa se byagiriye ikindi kibazo mu muhanda kikaba gihetse ikinkinyabiziga kizinga enye gifite ibara ry'mweru, iruhande hakaba hari ibiti birebire by'icyatsi.

Ikinyabiziga cy'inziga enye ibara ry'umutuku ryerurutse haba mu ibara ry'umweru, igice cyo hagati ndetse n'umukara iruhande hari kunyuho ikinyamitede cy'inziga ebyiri gifite umuyobozi wambaye ibara ry'umuhondo iruhande hari abanyamaguru batatu.

Ifoto iragaragaza umuhanda harimo ikinyamitende cy'inzige ebyiri gihetse akaba ari umuhanda uciyemo ibice bibiri ku gice cy'iburyo n'ibice bibiri ku gice cy'ibumoso.

Ikinyamidende cy'inziga eshatu gifite ibara ry'ubururu ndetse n'umukara ryiganje kikaba gihetse imizigo, iruhande hakaba hari ibyatsi biteye ndetse n'ibiti birebire by'ibara ry'icyatsi.

Ikinyabiziga cy'inziga eshatu kiganjemo ibara ry'ubururu, imbere yaho hari ikinyabiziga cy'inziga enye k'ibara ry'umutuku, iruhande hari inyubako itararangiza kubakwa.

Ibinyabiziga by'inziga ebyiri bibiri biri gutambuka mu muhanda nyabagendwa wa kaburimbo, bifite abayobozi bambaye imyenda y'ubururu ndetse n'umuhondo byiganje, imbere yabo hakaba hari ikinyabiziga cy'inziga enye kirigutambuka.

Ikinyamitende cy'inziga enye gifite ibara ry'ubururu ryiganje, aho iruhande hari umunyegare ufite umwenda urimo ibara ry'umutuku ndetse n'abanyamaguru bari gutambuka ku ruhande.

Ikinyabiziga cy'inziga enye kiri gutambuka gifite ibara ry'umweru ryiganje aho ku ruhare hari ikinyamitende cy'inziga ebyiri gifite umuyobozi wambaye umwenda urimo ibara ryiganje ry'umuhondo mu nkengero z'umuhanda hateyemo ibiti birebire.

Ikinyamitende cy'inziga ebyiri gifite umuyobozi wambaye umwenda uganmo cy'umuhondo iruhande hakaba hari ubusitani bw'indabo zitandukanye ndetse n'ibiti birebire by'imikindo.

Mu muhanda hari gutambukamo amagare abiri, iruhande hakaba hari ibinyamitende by'inzigo eshatu biparitse ndetse n'ibinyabiziga by'inziga enye, iruhande hakaba hari inyubako ifite ibara ry'ubururu ndetse n'umutuku byiganje.

Aha hagaragara kinyabiziga cy'inziga enye, giparitse ku muhanda, iruhande hari abanyamaguru babiri bari gutambuka, ikinyabiziga kikaba gifite ibara ry'umweru inyuma ibara ry'umutuku imbere, iruhande rw'aho hateye ibiti bisa icyatsi.

Ikinyabiziga gifite ibara ry'icyatsi ryiganje ndetse n'inziga enye, aho gifite imizigo gipakiye runaka, iruhande hakaba hari ibiti birebire by'icyatsi mu nkengero z'umuhanda.

Ikinyabiziga cy'inziga enye, gifite ibara ryiganje ry'umweru ndetse n'inziga z'umukara, kiri kugenda mu muhanda nyabagendwa wa kaburimbo, iruhande hakaba hari uruzitiro rw'icyatsi, ruteyeho ibiti birebire by'icyatsi.

Ikinyabiziga cy'inziga enye, gifite ibara ry'umweru ryiganje, kiri gutambuka iruhande hegereye igice cy'amaguru, hakaba hari amagare abiri ari gutambuka ahetse ibirayi, iruhande rw'ayo hakaba hari ibiti birebire.

Ikinyabiziga gifite inziga enye gifite ibara ritukura ryiganje, rijya kwegera inzira y'abanyamaguru, ku ruhande rwacyo hari ibikorwa remezo ndetse n'ibiti birebire by'icyatsi.

Ikinyabiziga cy'inziga enye gicanye amatara mu masaha y'umugoroba, kikaba gifite ibara ryiganje ry'umweru, iruhande hari abanyamaguru bari kuganira ndetse n'abandi bari gutambuka n'andi matara acaniye abanyamaguru mu masaha y'umugoroba.

Umuhanda muremure kandi hakaba ubusitani bwibiti birebire, ndetse n'abanyamaguru, hari inyubako ifite ibara ry'umweru wijimye ndetse n'ibara ry'ubururu.

Ikibuga gikinirwamo umukino ukinwa bakoresheje amaboko akaba gifite ibara ryiganje risa icyatsi ndetse n'umutuku iruhande hakaba hari ubusitani bukikijwe n'ibiti birebire.

Icyapa, cyo mumuhanda kigizwe n'amabara, abiri ariyo, umweru n'ubururu. Aho cyerekana, ko imbere, umuhanda, uzenguruka.

Ishusho iragaragaza icyapa cyo mu muhanda kigizwe n'amabara atatu umweru, ubururu n'umutuku, aho umutuku uzengurukijwemo kikaba kimenyesha ko nta nzira yemewe aho hantu.

Ikirango kigizwe n'amabara atatu, umweru, umutuku ndetse n'umukara, kikaba gikoreshwa mu muhanda cyerekana ko aho ugezeze ugomba kugendera ku muvuduko utarenga mirongo itatu.

Icyapa cyo mu muhanda kigizwe n'amabara atatu: umweru, umutuku ndetse n'umukara. Ibara ry'umutuku rikaba riri mu kiziga ndetse ibara ry'umweru, rikaba ririmo ryiganje mu butumburuke. Ibara ry'umukara rishushanyijemo ko, nta binyabiziga byemerewe kuhatambuka mu byerekezo byombi.

Iyi shusho iragaragaza icyapa cyo mu muhanda cya mpande eshatu z'umutuku, ubuso bw'umweru ndetse n'ikimenyetso cy'umukara, aho icyapa cyerekana ko imbere yawe hari umuhanda uzenguruka, ikaba iruhande rwayo hari ibiti birebire.

Icyapa cyo mu muhanda gikoreshwa kiyobora abatwaye ibinyabiziga, gifite amabara abiri y'ubururu n'umweru, gifite ibara ry'ubururu mu uruziga, ibara ry'umweru riyobora umuyobozi w'ikinyabiziga rimwereka aho agomba guca.

Ikirango cyo mu muhanda kigizwe n'amabara atatu umutuku, umuhondo ndetse n'umukara, aho kibwira abari gukoresha uwo muhanda cyangwa se abari kuwutambukamo ko hari ibikorwa remezo byo kubaka biri kuhabera.

Ikirango cyo mu muhanda gifite amabara atatu umuhondo, umweru ndetse n'umukara kikaba gikoze muri mpande enye kikaba cyerekana ko ibyerekezo byombi ibinyabiziga biri guturukamo cyangwa byemerewe guturukamo.

Ikirango cyo mu muhanda kigizwe n'amabara abiri umuhondo n'umukara, kikaba cyerekana ko imbere m muhanda hari umuhanda uzenguruka, inyuma yacyo hakaba hari igiti kirekire gifite amashami y'icyatsi.

Ikirango cyo mu muhanda, kigizwe n'amabara abiri: umweru, n'ubururu kikaba gikoze mu ishusho y'ikiziga, aho cyerekana ko umuhanda ukomeza mu gice cy'imbere hari undi ushamikiyeho.

Icyapa cyo mu muhanda kigizwe n'amabara atandukanye, umweru, umutuku, umuhondo, icyatsi, kikaba gikoze muri mpande eshatu, hagati hakaba harimo ibimenyetso by'amabara.

Inyubako zigiye zubatse mu buryo butandukanye, iruhande hari umuyoboro w'amashanyarazi, ndetse n'umunara utuma itumanaho rigenda neza iruhande hari ibiti birebire by'ibara ry'icyatsi.

Inyubako iberamo n'ibikorwa remezo runaka, imbere yaho hakaba haparitse ikinyabiziga cy'inziga enye, gifite ibara ry'umukara, iruhande hakaba hari umunyamaguru uri gutambuka wambaye umupira wiganjemo ibara ry'ubururu.

Inyubako ifite ibara ry'umuhondo ryiganje ndetse n'ibara ry'umweru, aho iruhande rwayo, haparitse ikinyabiziga cy'inziga enye, gifite ibara ry'umutuku ryiganje ndetse n'inziga z'umukara.

Inyubako zitandukanye ziberamo ibikorwa remezo bitandukanye aho imbere haparitse ibinyabiziga bitandukanye aho hari ibifite ibara ry'umukara ndetse ibiri rifite ibara ry'umweru iruhande hari abanyamaguru bari gutambuka ndetse n'ikinyamitende cy'inziga ebyiri kiri gutambuka.

Ikinyabiziga kinziga enye giparitse gifite ibara ryiganje ry' umweru, iruhande hakaba hari inyubako icururizwamo ibijyanye no kwambara aho hanze hari ibibumbano byambaye imyenda.

Inyubako ndende igiye ifite amabara atandukanye, ikaba ifite ibirahuri n'ibara ry'ubururu, iruhande hakaba hari ibiti bigufi bigaragaza ubwiza, inyubako ikaba ifitemo ibara ry'umweru wererutse ndetse n'umweru wijimye.

Inyubako ndende iruhande rwayo hari ibinyabiziga biparitse, ifite ibara riganje ry'umweru iruhande rwayo hari abanyamaguru ndetse n'abanyegare.

Inyubako ifite ibiti by'icyatsi bitarakura ku mpande, iruhande hakaba hari ikinyabiziga cy'inziga enye ndetse n'ibara ry'umweru, inyubako ikabisakaje isakaro rifite ibara ritukura, ikaba ifite ibara ry'umweru.

Umuhanda urimo ibinyabiziga ndetse n'umunyamaguru uri kwambuka wambaye umupira w'ibara ry'umukara n'ipatara y'ibara ry'ubururu iruhande hakaba hari inyubako ndende.

Ishusho iragaragaza inyubako yegereye umuhanda isa nk'aho itararangiza kubakwa, aho izengurukije ibitambaro by'ibara ry'icyatsi, inyubako ikaba ifite ubusitani hejuru, ikaba ari inyubako igiye igerekeranyije.

Ikibaya cyangwa se igishanga gitemo ibigori ndetse n'insina, n'ibiti ku ruhande hagati hakaba hacamo, umuhanda wa kaburimbo urimo ikinyamitende, k'inziga ebyiri iruhande hakaba hakikijwe n'amazu afite ibara ry'ubururu.

Ikinyabiziga cy'inziga ebyiri, gifite umuyobozi wambaye imyenda yiganjemo ibara ry'umuhondo, iruhande hari ibiti birebire by'icyatsi, ndetse n'ikirango cy'amerekezo iruhande.

Ibinyamitende by'inziga ebyiri, iruhande hakaba hari ibinyabiziga by'inziga enye, biri gutambuka, hakaba hari ubusitani ndetse n'ibiti birebire by'ibara ry'icyatsi.

Ikinyabiziga cy'inziga enye ndetse ryiganje ry'umweru n'umutuku kiri gutambuka, ndetse kurundi ruhande hari guhita ikinyamitende cy'inziga ebyiri ndetse n'umunyamaguru ku ruhande agiye kwambuka ahagaze hakaba harimo ubusitani burimo ibiti by'imikindo.

Umuhanda nyabagendwa, aho ugiye uteye ibiti birebire mu nkengero zawo, hakaba hari abanyamaguru bari kwambuka ndetse n'ibindi binyabiziga by'inziga enye ndetse n'ibinyamidende by'inziga ebyiri, bihagaze bitegereje ko barangiza kwambuka.

Umuhanda nyabagendwa wa kaburimbo, ukaba ufite ubusitani mo hagati bw'ibyatsi bigufiya ndetse n'imikindo, iruhande hakaba hari ibinyabizigaziga by'inziga enye, biri gutambuka ndetse n'ikinyamitende cy'inziga ebyiri.

Umuhanda nyabagendwa wa kaburimbo, hakaba hari kugendamo igare ndetse n'ikinyamitende cy'inziga enye, naho gifite ibara ryiganje ry'umukara, iruhande hari ibiti birebire by'icyatsi.

Ubusitani burimo indabo z'icyatsi ngufiya ndetse n'ibiti birebire by'imikindo, bukaba buri mu nkengero z'umuhanda ndetse hakaba hari gutambuka ibinyabiziga by'inziga ebyiri.

Umuhanda nyabagendwa wa kaburimbo iruhande hari ibiti birebire biteye ku nkengero z'umuhanda ndetse hakaba harimo ibinyamitende by'inzige ebyiri biri gutambuka.

Ikinyamitende cy'inziga ebyiri kiri gutambuka mu muhanda iruhande mu nkengero z'umuhanda hari ibiti birebire bifite ibara ry'icyatsi aho umuyobozi w'ikinyamitende yambaye umwenda uri mu ibara ry'umuhondo.

Ihuriro ryo mu muhanda kaburimbo nyabagendwa, hagati hateyemo ubusitani ndetse n'ibiti by'umukindo birebire imbere hari ibinyamitende by'inziga ebyiri ndetse n'ikinyabiziga cy'inzigeye kiri gutambuka gifite ibara ry'umutuku ryiganje.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye, aho ku gice cy'inyuma hari ikinyabiziga cy'inziga enke gifite ibara ry'umukara ryiganje, iruhande rwacyo hakaba hari ubusitani burimo imikindo ndetse n'ibyatsi bigufiya, imbere ye hakaba hari kinyamitende cy'inziga ebyiri ndetse n'bindi binyamitende biri kugenda bitambuka mu muhanda.

Umuhanda urimo ikinyamitende cy'inziga ebyiri, iruhande hari abana bavuye kwiga, bambaye impuzankan ndetse n'ibyapa byo mu muhanda, bifite ibara ry'ubururu n'umweru ndetse n'umutuku n'umweru.

Umuhanda nyabagendwa wa kaburimbo, urimo ibiti by'imikindo birebire ndetse n'ubusitani bw'indabo ngufi z'icyatsi, iruhande hakaba hari ikinyabiziga cy'inziga enye kiri gutambuka ndetse n'ikindi kinyabiziga cy'inziga ebyiri kiri gutambuka.